Umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, ushinze mu kantu k'akabati, ku ruhande hakaba hari n'akazu na ko ka MTN ndetse n'igiti kirekire. Hakurya hari urugo rundi ruhari.

Abantu babiri bicaye mu kazu kubabakishije imbaho, imbere hakaba hariho udushusho tw'umweru ndetse n'umukara, mo imbere hakaba harimo mudasobwa ebyiri bari gukoreho n'icupa ry'amazi.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'umukara n'intebe y'ubururu ku ruhande, akaba agiye gufungura umutaka wa societe y'itumanaho ya MTN kugira ngo atange serivisi.

Umukobwa uri muri Boutique uri gucuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, twavugamo nk'imineke, voka, amandazi, bombo, ubunyobwa, imigati, biswi, ji z'amoko atandukanye, inkweto ndetse n'amazi.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya Eyateri kari mu mabara y'umutuku kandikishijeho amagambo y'umweru. Kuruhande hari umugore uri gutambuka n'undi wicaye hasi afite umufuka mu ntoki.

Umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN ushinze ahantu ku muhanda hari amapave hari n'igipangu kiza cyanditseho ngo ivuriro, hirya gato hari inyubako zifite igisenge cy'umukara, umutuku ndetse hari n'amarembo meza yinjiramo.

Umugabo wicaye mu kazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN ari gutanga serivisi hino ye hakaba hari undi na we wicaye mu mutaka bose bategereje abakiriya, iruhande rwabo hari inzira irimo amapave.

Umukozi wa sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, wicaye arimo arahereza telefone umukiriya waje amugana. Bicaye mu mutaka usa umuhondo wanditseho amagambo anyuranye.

Akazu kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru ka sosiyete y'itumanaho ya Airtel hakaba harimo umukozi ushinzwe gutanga serivisi n'undi musore uhagaze inyuma yako wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umutuku n'ipantaro waje gusaba ubufasha.

Akazu k'umutuku ka sosiyete y'itumanaho ya Airtel, hakaba handitse hejuru mu magambo y'umweru ngo akanyenyeri magana atanu urwego utangire mo imbere harimo umuntu uri gutanga serivisi.

Inzu ya sosiyete y'itumanaho ya Airtel iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru hakaba hamanitse imisaru myinshi ndetse n'amasogisi ku ruhande rwayo, hirya gato hari imodoka y'umweru ifite amapine y'umukara.

Umugore uri mu kazu gakikijwe n'ibirahure ndetse n'imbaho z'ubururu, inyuma yako hakaba hari umugabo wiyogoshesheje umutwe, yambaye ishati y'umukara npantaro, akaba afite ikaramu ari kwandika ku rupapuro.

Abagabo batatu barimo babiri bari kuri moto n'undi umwe ufite igare, bakaba bahetse ibicuba by'amata. Iruhande rwabo hari uruzitiro rurerure rwubakishije amatafari ndetse n'ibyatsi birimo, inyuma yaho hari ibiti byinshi.

Babiri barimo kudoda hakaba harimo umwe wambaye amarinete, umusatsi w'umukara ndetse n'undi wambaye umwenda w'amaboko magufi w'umutuku bari ku mashini ziri kudoda imyenda y'amabara atandukanye.

Umugabo wambaye ingofero, amarinete, agapfukamunwa, ishati, akaba ahagaze imbere y'umuntu ufite mikoro yanditseho ngo RBA ari kumubaza ibintu byinshi nawe we amusubiza, inyuma yabo hari utuzu duto duto twubakishije amabati.

Abantu benshi bari ahantu mu cyumba bakorera ibintu byubugeni, hari umugore wambaye ingofero, umupira w'amaboko magufi w'ubururu n'igitenge, afite mikoro mu ntoki ari kuvuga ku mezaeza hateretse udukapu twinshi badoda.

Umugabo munini wambaye ishati igezweho y'umukara akaba ari imbere y'abantu bafite telefone bari kumufata amajwi na we bari kubasubiza, inyuma ye hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu, hakurya hari guca imodoka.

Isoko ririmo igihingwa k'inanasi hari n'abantu benshi bahagaze barimo bari kwitegereza uko umusaruro weze, hirya gato hari ibiti byinshi bimeze n'indabyo n'inyuma hari ibindi, harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda ijya gusa ubururu.

Abagabo batatu bari kunywa inzoga z'amoko atandukanye, harimo Primus ndetse na Mutzingi, ku meza hakaba hateretseho ibirahuri, inyuma gato hakaba hari abandi bantu bahagaze ndetse n'abari kunywa inzoga.

Inyubako nziza isize irangi rijya kuba umuhondo hakaba hari ikintu giteretse imbere yayo, mu muryango hari ibicuruzwa bitandukanye bya elegitoronike twavuga nk'ameza agezweho yo guterekaho televiziyo ndetse n'ibindi.

Ahantu bacururiza imyenda igiye itandukanye, ibikapu ndetse n'inkweto, hakaba hahagaze abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro undi wambaye ikanzu y'Abisilamu, inyuma gato hari ibicuruzwa byinshi.

Umugabo uri mu iduka ricuruza biswi z'ubwoko butandukanye wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu ndetse n'umukara, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara irimo n'imirongo y'umweru uteruye ikarito.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara ufite umusatsi w'umukara w'umuzungu, akaba yicaye ahantu hari ibicuruzwa byinshi byiganjemo fanta, ubuki, ji zitandukanye, ibyo kurya biri mu macupa n'imigati, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Ameza y'igiti asize irangi ry'umutuku, akaba ateretse mu nzu isize irangi ry'umweru hejuru, hasi ikaba ifite umukandara w'umukara, hasi hakaba hasize sima ijya kuba umukara nayo, ayo meza akaba yegeranye n'ikindi giti gishinze.

Ishashi iri mu mabara y'umuhondo n'umweru, yanditseho amagambo menshi ari mu mabara y'umukara, zikaba zirimo amasabune y'ifu zigezweho, zifashishwa mu gufura imyenda y'umweru.

Iduka ricuruza ibyo kurya bitandukanye harimo imigati, amavuta, ji, ayo guteka, ayo kwisiga ndetse n'amakarito menshi agiye atandukanye, hari kandi na fanta z'ubwoko bwose ndetse na biswi.

Iduka ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye byiganjemo amavuta, harimo amavuta apfundikishije imifuniko y'umutuku, ayasukika ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye bigaragara mu mabara y'umutuku, umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, wambaye amarinete ndetse n'akantu yashyize imbere, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'umupira, akaba ari umucuruzi w'imyenda myinshi, hari ifunitse ndetse n'idafunitse, iri aho akorera.

Inyubako nini cyane nziza ifite igisenge cy'umutuku, yubakisha amatafari ahiye ndetse hariho n'irangi ry'umuhondo, hakaba haparitse imodoka eshatu ku ruhande hariho umusaraba ndetse hakurya hari ibiti bikikije iyo nyubako.

Abagore benshi bambaye imyenda isa bapfukamye bazamuye amaboko basenga, bakaba bari mu nzu irimo umusaraba ndetse n'ikisenge cy'amabati, ikaba isize n'irangi ry'umuhondo.

Abagabo babiri umwe w'umuporisi wambaye ingofero y'abaporisi amarineti n'imyenda yabo akaba ari kumwe n'umupadiri wambaye ikanzu n'igishura by'umweru bari imbere y'icyapa cyanditseho ngo gerayo amahoro.

Inzu igeretse isakaje amabati ifite amadirishya n'inzugi biri mu by'umukara, imbere yayo hakaba hari abantu benshi bahagaze bambaye imyenda y'umweru ndetse n'imikara, hino gato hakaba hateye sima.

Abapadiri ndetse n'abamansera, bahagaze ahantu bifotoza, iruhande rwabo hakaba ari umugabo wambaye baji mu ijosi, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru, yandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'umuhomba.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abafite icyapa cyanditseho ngo ekwiti n'umugabo wambaye ikote ry'umweru, ishati y'umweru, karuvati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma hakaba hahagaze abandi bantu.

Abantu benshi barimo abapadiri ndetse n'abandi bantu bambaye baji mu ijosi bakaba bahagaze imbere y'inyubako ya Kiliziya ifite umunara muremure w'umusaraba ukikijwe n'ibiti by'imikindo binini cyane kandi bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye.

Urusengero runini cyane rusakaje amabati y'umutuku rurimo ibara ry'umweru kandi rwubakishije amatafari ahiye, iruhande rwarwo ruzengurutswe n'abantu benshi baje gusenga ndetse n'imodoka y'umukara iparitse ku ruhande hirya gato hari ibiti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba barimo abagore n'abagabo hakaba hari undi wambaye ishapule mu ijosi, wambaye n'umupira w'umutuku, ufite terefone mu ntoki iri kwaka arebamo, hari n'undi kandi uhagaze inyuma wambaye ikoti ry'umukara ufite n'ibintu by'umuhondo mu ntoki.

Inyubako nziza igezweho irimo uburiri bushashe neza ndetse n'imisego itatu isa umweru, ku buriri hariho amashuka y'umweru ndetse n'umukara hirya hari akabati babikamo imyenda ku muntu uje kuryama muri icyo cyumba.

Inyubako nziza igezweho isize irangi ry'umutuku, hari inzira irimo amapave ijyayo ku ruhande hakaba hari ubusitani bwiza ndetse n'uruzitiro, uko bigaragara isakaje amabati y'umukara.

Inzusize irangi ry'umuhondo ikaba irimo ibisorori by'amoko yose, birimo ibyo kurya bigiye binyuranye umuceri, imboga amashu, inyanya ndetse n'imiteja. Hakaba harimo kandi n'ibiyiko byo kwaruza.

Icyumba kirimo uburiri bwiza bugezweho busashishije amashuka y'umweru ndetse n'umutuku, hejuru hakaba hari supanete, iruhande hakaba hari ibikoresho byo mu cyumba bigiye binyuranye bifasha umuntu kuryama neza.

Inzu nziza igezweho ikaba isize amakaro hasi ndetse no hejuru harimo ahantu bogereza ibyombo harimo n'igitembo cy'amazi na ravabo, ku nkuta zayo hakaba hariho amakaro ajya gusa umweru.

Icyumba kiza gisheshe neza kirimo igitanda kigezweho ndetse n'intebe igezweho, gitwikirije amashuka y'umweru ndetse n'umutuku, ku musego hariho imisego yabugenewe iri mu mabara y'umweru, ku ruhande hariho amarido meza n'umuryango ugezweho.

Icyumba kirimo ibyokurya bitandukanye kandi biteguye neza, birimo imbuto ndetse n'ibisorori binyuranye bipfundikiye, abantu shobora kugenda bakiyarurira, hasi hagaragara ko hari amakaro kandi ku rukuta hariho irangi ry'umuhondo.

Inyubako nziza igezweho irimo urumuri rwiza, iteye irarangi ry'umuhondo ndetse ifitemo n'udutako tumanitse hejuru, ikaba irimo intebe nziza ziteye ku meza kandi hariho n'amasahani ameze neza ndetse n'ibirahuri.

Inyubako nziza igezweho iteye irangi ry'umuhondo hasi hakaba hari amakaro, hakaba kandi hateyemo intebe nziza zigezweho z'umutuku n'ameza ashasheho udutambaro twiza, ni muri resitora.

Inyubako nziza cyane ifite igisenge cy'amabati ikaba isize irangi ry'umuhondo, hirya no hino ikikijwe n'indabo kandi ifite n'amarembo manini cyane abantu banyuramo bajya kwinjiramo.

Abasore n'inkumi bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, bakaba bahagaze ku kumurongo umwe bari kwifotoza, inyuma yabo haparitse imodoka, ibiti ndetse n'inyubako ndende ifite amarangi y'umweru isakaje amabati y'umutuku.

Umugabo wicaye mu iduka ry'ibitenge, akaba yifashe ku mazuru. Yambaye ishati y'amaboko maremare kandi inyuma ye imbere ye ndetse n'impande zose hari ibitenge by'amabaragi atandukanye.

Inkweto z'ubwoko butandukanye ziri kugurishwa hakaba harimo iz'umukara, iz'ubururu, iz'umutuku zose zikaba zifunguye zirambitse kuri shitingi y'umukara irambuye hasi.

Ibikoresho byinshi byo mu rugo birimo icyuma, amafoke, ibihiko, urwembe, igikapu, imyuko, utuyunguruzo n'imifuka, byose birambitse kuri shitingi byaje kugurishwa, inyuma gato hari n'amajage y'umweru apfundikije imipfundikizo.

Inzu y'ubucuruzi isakaje amabati ikaba irimo ibyumba bigiye bitandukanye aho buri muntu ari gucururiza, ku cyumba cya mbere hari umuntu ufite indobo ebyiri ndetse n'ibase ari gucuruza ibicuruzwa.

Inzira iri hagati y'amazu afite irangi ry'umuhondo hakaba hari kunyuramo abantu benshi b'urujya n'uruza abagenda n'amaguru, abari ku magare ndetse n'abandi bahagaze, inyuma gato hari izindi nzu z'amakonoshi.

Abana babiri b'abakobwa umwe uhagaze yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, undi wicaye yambaye umupira w'umutuku n'ijipo afite igikapu mu ntoki, akaba ari ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye byiganje,

Isoko ririmo abantu benshi n'ibicuruzwa bitandukanye hakaba hagaragara umusore ufite umusatsi w'umukara, umupira w'amaboko magufi ari gucuruza amandazi yo mu bwoko butandukanye, hirya hari imitaka myinshi n'abantu batoye umurongo baka serivise.

Isoko rusange ryiganjemo abagore benshi bari gucuruza bakaba bafite ibicuruzwa byiganjemo inyanya, urusenda, intoryi, karoti ndetse n'ibindi biri mu mabasi ndetse no mu mifuka, byose bakaba bari kubicuruza.

Isoko ry'imbuto ririmo nyinshi zigiye zitandukanye, hari n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare uri gucuruza. Hari indobo nyinshi imboga, inyanya pavuro, avoka n'ibindi byinshi binyuranye.

Isoko rigurishirizwamo imyenda myinshi ndetse n'ibyo kurya bigiye bitandukanye, hakaba harimo umugore witandiye ibintu by'umukara ndetse n'umusore wambaye ingofero y'umuhondo, afite ibikapu mu mugongo ndetse no mu ntoki.

Imyenda myinshi yiganjemo amasume ndetse n'ibiringiti, harimo ibipfunitse mu masashe n'ibindi biri inyuma, hakaba hirya hari umugabo wambaye ishati y'amabaroko n'ipantaro y'umukara uri gucuruza.

Umugore uteze igitambaro wambaye n'igitenge afite igikapu umuntu ntoki ari kumwe n'umwana wambaye agapira k'ubururu n'umweru, akaba ari ahantu bacururiza inkweto bari kumuhereza izo yigera.

Shitingi y'ubururu irambuye ahantu izirikishije umugozi, iruhande rwayo hakaba hari umweyo, hakurya hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro y'umukara n'inkweto uri gutambuka iruhande rwa moto.

Ahantu hari ibicuruzwa byinshi birambitse ku giti, ibyo bicuruzwa bikaba byiganjemo imifuka, amabasi, ibikombe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hakaba hari ibyatsi ku ruhande ariko nta muntu uri kubicuruza uhagaragara kereka inzira.

Umuhanda wa kaburimbo uriho abantu benshi bari gutambuka harimo abikoreye imbuto ziganjemo amatunda ndetse na voka, hari umugabo kandi wambaye ingofero y'umutuku, ishati ndetse n'ipantaro uparitse ahantu hari igare rihetseho ibintu by'imifuka.

Inyubako nziza igezweho ifite amabara y'umutuku, imbere hakaba hahagaze umukobwa wambaye umwenda w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, hakaba kandi hateye intebe nziza bicaraho ndetse n'ameza bakiriraho abantu.

Umumotari uri mu muhanda wambaye kasike y'umutuku akaba ahetse umugenzi wambaye kasike y'umukara, imbere akaba yahashyize igikapu cy'umukara ndetse n'ikote, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti ndetse n'icyapa.

Umugabo uri ku igare wambaye umupira w'amaboko maremare y'ubururu n'umweru, hakurya hakaba hari inzu zisize amarangi y'umuhondo, haparitse n'imodoka kandi hakaba hari n'akazu ka MTN.

Umumotari yetse umugenzi kuri mo muto bombi bambaye kasike, ku ruhande hari abagore batatu bambaye amakanzu bari kugenda baganira, ku mpera z'umuhanda hakaba hari ishyamba ryinshi ndetse n'indabo.

Umugabo uri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo akaba yambaye ingofero y'umutuku n'uwahetse yambaye ingofero y'umutuku iruhande rw'abo hakaba hari insinga z'amashanyarazi ndetse n'inzira abanyamaguru bagendamo ibyatsi n'indabo biteye hakurya.

Abamotari babiri bambaye kasike, bakaba ari kumwe n'umugenzi wambaye kasike ikote ry'umukara, ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umutuku, akaba ari kwishyura umwe mu bamotari wari umuhetse kuri moto. Inyuma yabo hari abantu benshi bari gutambuka.

Umumotari utwaye moto akaba ahetse umugenzi wambaye kase y'umutuku n'ikanzu y'umukara, iruhande rwabo hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'amazu menshi y'ubucuruzi asize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umumotari uhetse umugenzi bose bambaye kasike uwo akaba ari kuri moto y'umukara ikoresha amashanyarazi, hirya gato haparitse abandi bamotari benshi bambaye amajiri y'umutuku bafite na kasike mu ntoki.

Abanyonzi bari mu muhanda harimo umwe wambaye isha y'umutuku uhetse umugore wambaye akantu mu ijosi, ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto, iruhande rwe hakaba hari undi wambaye ingofero n'umupira w'umweru.

Umumotari uri mu muhanda wambaye kasike n'umugenzi ahetse akaba yambaye kasike iruhande rwabo hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hirya yabo hari ishyamba ririmo ingo nyinshi zitandukanye.